Abaganga bakora mu bigo bishinzwe ubuzima bakaba bambaye imyambaro yabugenewe y'ubwirinzi bakaba batwaye umurwayi ku kagare, ku nkengero yabo hakaba hagaragara ubwoko bw'ibimera bitandukanye.

Ababyeyi batatu bigaragara ko bari mu cyumba cyo kwa muganga, bicaye ku bitanda hejuru ya buri gitanda hagiye hamanitse inzitiramibu, ibafasha kugira ngo birinde Malariya.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo baba babashe kuba bavura abarwayi, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga nk'ibitanda ndetse n'imiti y'ubwoko butandukanye.

Abaganga bambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'ibindi bikoresho by'ubwirinzi birimo uturindantoki n'udupfukamunwa, bigaragara ko hari umuntu uryamye ku gitanda bari kuvura.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka y'imbangukiragutabara, bafite agapapuro mu ntoki, bigaragara ko bari kwifotoza. Hirya yabo hagaragara ibiti bigiye bitandukanye.

Abantu bahagaze iruhande rw'imodoka izwi nk'imbangukiragutabara, bakaba biganjemo abagabo ndetse no mumama umwe, hirya yabo hagaragara ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abagabo babiri bambaye udupira tw'umutuku bigaragara ko bafite ubumuga bakaba bicaye mu tugare twabagenewe, aho inyuma yaho hahagaze abandi bagabo babiri.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi harimo umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe, birimo itaburiya, uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa, hakaba harimo ibyuma by'ikoranabuhanga bigaragara ko ari gufasha umurwayi uryamye ku gitanda.

Abantu bari ku mbuga iriho amapave bakaba bambaye imyambaro igiye itandukanye bakaba bari kumwe n'umukozi wabihuguriwe uri kubasobanurira uburyo bakoresha kizimyamwoto.

Abaganga bari ahantu hamwe bakaba bambaye imyambaro y'ubwirinzi irimo uturindantoki, udupfukamunwa ndetse n'ingofero zabugenewe, bigaragara ko bari ahantu bari gusuzuma uburwayi runaka.

Abantu biganjemo urubyiruko bambaye amajire ya Croix rouge, bakaba bateraniye mu nyubako bicaye ku ntebe, imbere yabo ku meza hakaba hagaragara uducupa turimo amazi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ikaba ari poste de sante, ku rubaraza rwayo hicaye ababyeyi babiri bicaye ku ntebe ya desk, haruguru imbere yabo hakaba hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Urubyiruko rwicaye imbere y'inyubako bigaragara ko ari urubyiruko rukora muri Croix Rouge, ku gikuta k'inzu hakaba hamanitse agatambaro kariho umusaraba bigaragara ko bari kwiga ku kibazo runaka.

Imodoka y'imbangukiragutabara hakaba harimo umuntu uyitwaye wambaye ibikoresho by'ubwirinzi birimo uturindantoki, udupfukamunwa ndetse n'ingofero bigaragara ko yikingiye icyorezo cyangwa se indwara runaka.

Icyumba cyo kwa muganga kikaba kirimo igitanda kiryamyeho umurwayi urembye cyane, akaba ari kumwe n'umuganga uri kumufasha kugira ngo abashe kuba yarengera ubuzima bwe buri mu kaga.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hakaba harimo abantu batatu, abaganga babiri ndetse n'umudamu waje kwivuza, bakaba bari kumwereka igipande ngo yandikeho amakuru amwerekeye.

Abaganga bari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, bakaba bambaye impuzankano iri mu mabara y'icyatsi kibisi, bambaye udupfukamunwa hirya yabo muri icyo cyumba hakaba hari ibyuma by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Abantu bari mu nyubako bigaragara ko ari inyubako yo kwa muganga, bakaba bambaye amataburiya y'umweru, bakaba bari kureba mu makaye bigaragara ko bari kuvura cyangwa se bari kwandika ubwoko bw'imiti.

Abantu benshi bari mu muhanda wa kaburimbo, bakaba bafite ibyapa byo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu Jenoside yakorewe abatutsi, imbere yabo hakaba hari abapolisi babiri bari kubacungira umutekano.

Umukozi ukora mu kigo gitanga serivisi z'ubuvuzi, akaba yicaye mu cyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga nka mashine, akaba ari kuzuza impapuro zigiye zitandukanye.

Umubyeyi uri mu cyumba cyo kwa muganga akaba ateruye umwana, yicaye ku bitanda byo kwa muganga bigaragara ko imbere ye hari umuntu uri kumufotora cyangwa se uri kugira icyo amubwira.

Umubyeyi wicaye ku bitanda byo kwa muganga, akaba ateruye agahinja mu ntoki, bigaragara ko hari umuntu uri imbere ye ariba, izi nyubako zibasha gufasha abantu kugira ngo babashe kuba bagira ubuzima bwiza.

Abantu babiri umwe wambaye itaburiya y'umweru bakaba bari mu cyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye birimo ameza ndetse n'intebe, kuri ayo meza hakaba hariho ibikoresho bitandukanye.

Imodoka y'imbangukiragutabara, ikaba iri ku bitaro bya Gatunda, aho ivanye umurwayi, imujyana ku bindi bitaro, hirya y'ibyo bitaro hakaba hagaragara ubwoko bw'ibiti bitandukanye.

Umuganga w'umudamu wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari mu cyumba cyabugenewe kizwi nka laboratwari, akaba ari gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti runaka.

Abakozi bakora mu bigo by'ubuvuzi bari mu cyumba cyabugenewe kizwi nka laboratwari, bakaba bambaye ibikoresho byabugenewe birimo uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa, bigaragara ko bari gukora ubushakashatsi.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuvuzi ziba zifite ibyumba byabugenewe biba birimo imashini bizwi nka laboratwari aho babasha kuba bahakorera isuzuma kugira ngo babashe kuba batahura indwara zigiye zitandukanyekanya.

Umukozi ukora mu kigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuvuzi, bigaragara ko ari muri laboratwari akaba yambaye itabiririya y'umweru ndetse n'uturindantoki bigaragara ko ari gukora ubushakashatsi.

Umukozi ukorera ikigo cy'ubuvuzi akaba ari mu cyumba cyabugenewe, aho harimo imashini ya mikorosikopi, uwo mukozi akaba yambaye itabiriya y'umweru, yambaye uturindantoki ndetse yambaye n'agapfukamunwa.

Umukozi ukora mu kigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuvuzi, akaba ari mu cyumba cya laboratwari, aho afite ibyuma by'ikoranabuhanga bigaragara ko ari gukora ubushakashatsi ku ndwara runaka.

Ikiganza cyambaye uturinda ntoki, kikaba gifashe ubwoko bw'imiti itandukanye bigaragara ko abari muri laboratwari bakaba bari gukora ubushakashatsi.

Ni mu cyumba cy'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi hakaba ari muri laboratwari, harimo abantu bambaye amataburiya y'umweru bigaragara ko bari gukora ubushakashatsi ku ndwara runaka.

Ni icyumba cy'inyubako y'ubushakashatsi kizwi nka laboratwari, hakaba harimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishati y'umweru ndetse na karuvati bigaragara ko bari gukora ubushakashatsi ku masomo babigisha.

Umuganga uri ahantu mu cyumba cyo kwa muganga, akaba yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki, bigaragara ko ari kuvanga imiti cyangwa se ari gukora ubushakashatsi ku ndwara runaka.

Ababyeyi bateraniye mu gisharagati bakaba bateruye abana bari kumwe n'umukozi ukora muri serivisi z'ubuvuzi wambaye ijire y'ubururu, bigaragara ko ari gupima abana.

Abantu biganjemo abana batoya bari kumwe n'ababyeyi babo, bakaba bicaye ku mikeka, bafite udukombe bigaragara ko ari mu irerero ry'abana batoya, bakaba bari kunywa igikoma cyangwa se ibindi bintu babateguriye.

Ni icyumba giteraniyemo abana batoya bakaba bari kumwe n'umwarimu uri kubigisha, bigaragara ko ari icyumba k'irerero aho bigishiriza abana batoya kugira ngo bakure bafite ubwenge.

Akarima k'igikoni gahinzeho ubwoko bw'imboga zitandukanye zirimo dodo, utu turima tw'igikoni tubasha gufasha abantu kubona imboga kugira ngo babashe kuba barya indyo yuzuye.

Umukozi ukora mu kigo gishinzwe ubuzima, akaba yambaye agapira k'icyatsi kibisi afite mikoro, bigaragara ko ari kugeza ikiganiro ku bantu bamukurikiye.

Ababyeyi bari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuzima bakaba bambaye udupfukamunwa bigaragara ko baje kwa muganga kwikingiza ndetse no kwisuzumisha indwara zigiye zitandukanye.

Umubyeyi uri ahantu mu cyumba cyo kwa muganga akaba akenyeye igitenge, hafi ye hakaba hari uruhinja ruryamye ahantu ku gitanda ndetse hakaba hari n'ubwoko bw'imashini zigiye zitandukana.

Icyumba kirimo ababyeyi bigaragara ko ari abanyabuzima ndetse n'ababyeyi bazanye umwana, bafite ibikoresho byifashishwa kwa muganga bigaragara ko bari kumutera urushinge.

Ababyeyi bari kumwe n'abana babo bakaba bari kubanywesha amata, ni byiza guha abana bato amata kuko abafasha mu mikurire yabo bagakura bafite ubuzima bwiza.

Abana batoya bicaye ku mukeka ushashe ahantu mu byatsi, bakaba bari kumwe n'ababyeyi ndetse n'abarezi bigaragara ko ari abaje mu kigo mbonezamikurire cy'abana batoya.

Itsinda ry'abantu bicaye ahantu mu twatsi bikaba bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima, bakaba bicaye hamwe baganira ku ngingo runaka, haruguru impande yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru.

Itsinda ry'abantu benshi bari mu gisharagati, barimo abagabo ndetse n'abagore, harimo umugore wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, imbere yabo hahagaze umugabo ufite mikoro, akaba ari kubagezaho ikiganiro yabateguriye.

Umukozi ukora mu kigo gishinzwe ubuzima ari mu cyumba aho yicaye ku ntebe, imbere ye ku meza hakaba hari mashini ndetse n'izindi mpapuro bigaragara ko ari gutegura raporo.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahuriye ku kibuga kiriho ibiti ndetse n'ibimera bitandukanye bambaye udupfukamunwa bigaragara ko ari ubukangurambaga baje gukorerwa.

Abanyeshuri bateraniye ahantu mu cyumba, bakaba bambaye amashati y'imyeru bakaba bambaye n'inkweto z'igikara, bari kumwe n'undi musore wambaye agapira k'icyatsi kibisi, bigaragara ko bari kwifotoza.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi bari ahantu imbere y'inyubako iriho ibyapa bitandukanye, barishimye bazamuye amaboko, bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho ikiganiro.

Abantu biganjemo urubyiruko, bakaba bari mu cyumba bigaragara ko hari amahugurwa bari guhabwa n'umuntu runaka, ni byiza kugana ibi bigo kugira ngo umuntu abe yagirwa inama zitandukanye.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye mu gisharagati bakaba bambaye impuzankano zisa amakabutura ndetse n'udupira tw'umweru, bambaye udupfukamunwa bigaragara ko bari gukoma amashyi.

Icyumba k'inyubako icuruza imiti izwi ku izina rya farumasi hakaba hagaragara utu etageri tubiri duteganye turimo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bikaba biri ahantu aho biri mu makarito agiye atandukanye, aho hashobora kuba harimo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho.

inyubako icururizwamo imiti ikaba ari farumasi, harimo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye iri mu dukarito, iri mu ducupa bigaragara ko ari ubucuruzi bw'imiti.

Aho bacururiza imiti hazwi nko muri farumasi, hakaba hari akayetajeri karimo imiti igiye itandukanye iri mu dukarito, hakaba hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru bigaragara ko ari umucuruzi wayo.

Ibinini by'ubwoko butandukanye birimo ibifite amabara y'umweru, amaroze ndetse n'umuhondo bigaragara ko ari ahantu hacuruza imiti hazwi nko muri farumasi.

Ahantu hacururizwa imiti hazwi nko muri farumasi, hakaba hagaragara utu etajeri turimo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, iri mu ducupa ndetse n'iri mu dukarito.

Ni inyubako icururizwamo imiti ahazwi nko muri farumasi haragaragara utuyetageri turimo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, iri mu dukarito ndetse n'iri mu ducupa dutandukanye.

Ubwoko bw'imiti igiye itandukanye burunze ahantu hakaba hagaragara ibinini ndetse n'ubundi bwoko bw'imiti itandukanye igiye iri mu dukarito, izi nyubako zikaba zifasha abantu kubona imiti mu gihe bahuye n'uburwayi.

Ubwoko bw'ibinini bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara, bigaragara ko ari inyubako icuruza imiti izwi nka farumasi, aho abarwayi bagana izi nyubako bakabasha kubona imiti.

Umukozi ukora mu kigo gishinzwe ubuzima, akaba ari gutanga ikiganiro ku bantu runaka bamukurikiye, afite mikoro ndetse imbere ye hari icyapa cyanditseho ngo ipimishe virusi itera SIDA.

Abantu benshi bateraniye ku kibuga kiriho ibyatsi, inyuma yabo hakaba hari imodoka, aba bantu hakaba hari abafite icyapa, bigaragara ko ari ubukangurambaga bari gukora.

Ni mu cyumba cy'inyubako, hakaba harimo abantu, bamwe bahagaze, abandi bicaye, imbere yabo ku meza hakaba hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga, birimo telefone ndetse na mudasobwa, hakaba hagaragara ndetse n'impapuro.

Abantu bateraniye munsi y'ihema rifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, bambaye udupira tw'umweru bigaragaza ko ari impuzankano, bakaba bafite ibyapa bigaragara ko bari gukora ubukangurambaga ku gakingirizo.

Ni abantu benshi bateraniye ku kibuga biganjemo urubyiruko bigaragara ko ari ubukangurambaga bwahabereye imbere hakaba hari abantu babiri umwe akaba yambaye aga tisheti k'umweru akaba yaraboshye imisatsi bigaragara ko ari umuhanzi uri kubasusurutsa.

Abantu benshi batandukanye, bakaba bateraniye ku kibuga kiriho inyubako zigiye zitandukanye, bigaragara ko ari ubukangurambaga barimo kugezwaho ku ngingo runaka.

Umusaza wambaye ikoti ry'umukara, ateruye ubwoko bw'ibimera bitandukanye bigaragara ko ari ibimera yahiye kugira ngo age kuvanamo umuti runaka.

Umukobwa uri mu cyumba kirimo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye yifashishwa kugira ngo habashe kuba havurwa indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko mu gihe dufite uburwayi butandukanye tuba tugomba kugana ibi bigo kugira ngo bidufashe.

Umurima ugaragaraho ubwoko bw'ibimera bitandukanye byiganjemo ibitovu, ibi bimera bikaba byifashishwa mu kuvanwamo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye ikurwa mu bimera.

Ifoto y'ikiganza bigaragara ko ari indwara y'uruhu, ni byiza ko mu gihe umuntu afite indwara y'uruhu aba agomba kugana kwa muganga kugira ngo abashe kuba yahabwa imiti igiye itandukanye.

Umukozi ukora mu kigo kijyanye n'ubuvuzi yambaye itabiriye y'umweru n'uturindantoki, ari kumwe n'abagabo babiri umwe wambaye impuzankano y'Igipolisi cy'u Rwanda bigaragara ko ari gutera urushinge ku rutoki.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweruru ufite n'ikayi mu ntoki, inyuma hakaba hari umudamu wicaye, imbere ye hakaba hari mashine ndetse n'abandi bantu baje muri iryo vuriro.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, ifite irangi ry'ubururu imbere yayo hakaba hari ubusitani ndetse n'imikindo, ku kibuga hakaba hari kugenda umubyeyi.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi ku rubaraza rwayo hakaba hari ababyeyi bicaye, bakaba bafite ibipande ndetse hakaba hari umugabo uri kuza abyegeranya.

Amacupa arimo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, yifashishwa kugira ngo abantu babashe kuba bakivura indwara zigiye zitandukanye, ikindi kandi ni byiza ko tuba tugomba gufata imiti itandukanye mu gihe twumva tudafite ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima ikaba ari inyubako ifite irangi ry'ubururu ndetse hirya no hino hakaba hagaragara ubusitani buriho ibyatsi ndetse n'indabo.

Imiti yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse no kuyakingira indwara zigiye zitandukanye, hagaragara ikiganza gifite icupa ririmo umuti wifashishwa mu kuvura amatungo.

Utudobo dupakiye ahantu hakaba harimo imiti ivura ubwoko bw'inyamaswa zigiye zitandukanye, iyi miti ikaba yifashisha mu kuvura ndetse no kurinda inyamaswa.

Abakozi bakora muri serivisi zijyanye n'ubuzima, bari ahantu imbere yabo ku meza hakaba hariho uducupa bigaragara ko turimo imiti ndetse bakaba bafite n'ibikarito.

Umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amatungo, uyu muti bakaba bawuha inka ndetse n'amatungo magufi kugira ngo uzirinde indwara zigiye zitandukanye.

Ni icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki, akaba ari kuvura umudamu waje umugana aho ari kumutera agashinge ku rutoki.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima ikaba iri mu mabara y'ubururu, igiye iriho ibyapa byanditseho amagambo agiye atandukanye, ku rubaraza rw'iyo nzu hakaba hicaye abantu biganjemo ababyeyi.

Ababyeyi benshi bari ku rubaraza rw'inzu bigaragara ko baje kwa muganga imbere yabo hakaba hahagaze abaganga baje kubafasha, bari ku rubaraza rw'inzu ifite irangi ry'umweru ndetse n'inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umutuku.

Ubwoko bw'imiti itandukanye yifashishwa kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye, iyi miti yifashishwa kugira ngo babashe kuba bavura abantu indwara bityo babashe kuba bagira ubuzima bwiza.